Udukoresho twinshi twampande eshatu turi mu mabara agiye atandukanye, aho twifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'incuke bigisha abana amabara agiye atandukanye ndetse no kubara.

Udukapu tuba dushushanyijeho utunyamaswa tugiye dutandukanye tw'ibipupe, aho utu dukapu abana biga mu mashuri y'inshuke badakunda aho bakunze kutwifashisha bagiye ku ishuri.

Umugore uri kumwe n'umwana aho uwo mugore afite indangururamajwi mu ntoki ari kwigisha umwana wiga mu mashuri y'inshuke, aho agiye kuyimuha kugira ngo uwo mwana abashe gusoma ibyanditse aho ngaho.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iyo nyubako iteye amarangi y'umweru ku bikuta, ikaba ishushanyijeho ifi, bigaragaza ko ari inyubako y'ishuri yigirwamo n'abana biga mu mashuri y'incuke.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bakaba bicaye bari kumwe n'ababyeyi babo, bari kugenda babagaburira, aho aba bana bambaye impuzankano z'ishuri.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite imiryango igiye ifunguye hakaba haparitse moto, bigaragara ko aho hantu ari ku mashuri aho bigishiriza abana b'inshuke.

Imodoka y'igipupe iri mu mabara y'umweru n'icyatsi, ikaba ari imodoka iri kubinura. Bagomba kuzifashisha niba ari kwigisha abana biga mu mashuri y'incuke kugira ngo bishime.

Mu mashuri y'incuke haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibishushanyo, byari bishushanyije ku bikuta ,ku buryo abana babirireba bakishima ndetse bikanabashimisha cyane kugira ngo babirebe.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite ibikuta biteye amarangi agiye atandukanye hakaba harimodugabo twiza cyane dushushanyijeho utunyamaswa, bigaragara ko twifashishwa n'abana biga mu mashuri y'incuke.

Mu mashuri y'inshuke haba harimo amakaramu agiye atandukanye, abarimu bifashisha bari kwigisha abanyeshuri babo kugira ngo abo bana babashe kumenya amabara agiye atandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho isakaje amabati y'umutuku, ikaba yigirwamo n'abana biga mu mashuri y'inshuke ndetse ikaba ishushanyijeho n'ibintu byinshi.

Umukobwa uri gukaraba kuri kandagira ukarabe imbere ye hari umwana mutoya wambaye agashati, hirya ye hari ubusitani buteyemo umucaca aho biga mu mashuri agiye atandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri aho abanyeshuri biga mu mashuri abanza bigira, hari ubusitani bwiza cyane.

Umupira w'amaguru uri mu mabara y'umweru n'ubururu, ukaba urambitse ahantu, uyu mupira rero ni ingenzi kuko ukundwa gukina n'abantu benshi bagiye batandukanye, maze bakaba batsinda n'ibitego.

Amagambo yanditse ahantu ari mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, aho ayo magambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda avuga ngo tuheza.

Inyubako nziza cyane irimo ibishushanyo byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye, aho ari ishuri ryigirwamo n'abana biga mu mashuri y'inshuke, bakaba biga bifashishije ibi bikoresho.

Mu kigo cy'amashuri abanza hagiye harimo utwapa tugiye dutandukanye, abanyeshuri bifashisha bari kwiga aho tuba twanditseho amagambo menshi ndetse n'inyuguti nyinshi, na nimero abanyeshuri bigiraho kubara.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho isakaje amabati y'ubururu ikaba yubakishije amatafari ahiye, ikaba kandi ifite ubusitani bwiza cyane buteyemo ibendera ry'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kinyarwanda, aho yubakishije amatafari ahiye, mo imbere ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu burezi. Harimo ndetse n'utubati.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite ikibaho mo mbere bigaragaza ko ari inyubako y'amashuri aho mo imbere harimo ibikoresho byose byifashishwa.

Mu mashuri abanza haba harimo udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye bifashisha bari kwigisha abanyeshuri uburyo ki babara maze abanyeshuri na bo bakabikurikiza bityo bakarushaho kumenya ubwenge.

Inyubako nziza cyane irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bikaba bikoreshwa mu mashuri y'incuke, aho abana biga muri ayo mashuri babyifashisha bari kwiga kugira ngo barebe ko batsinda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iyi nyubako yigirwamo n'abana biga mu mashuri y'inshuke, ikaba ifite ameza ateyeho udutebe tugiye dutandukanye byerekana ko abanyeshuri bigera mu matsinda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ari inyubako y'amashuri, ikaba ifite inkingi z'ibyuma ndetse ikaba ifite ubusitani buri imbere yayo bwiza cyane.

Ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, biba biri mu mashuri abanza, bifashisha bari kubigisha, aho biba biri mu mabara agiye atandukanye, abanyeshuri bagomba kumenya.

Abana b'abanyeshuri bari kujya ku ishuri, aho imbere yabo hari igikuta cyubakishije irangi ry'umweru, cyanditseho ngo muhawe ikaze mu kigo cya Nyagatare. Ubumenyi ni ubukungu bwacu.

Abanyeshuri benshi cyane bahuriye hamwe, aho bicaye mu ishuri harimo abahungu ndetse n'abakobwa bafite amakaye bari gusoma. Hari undi mwana uhagaze ku ntebe ari kubarebera yatambitse amaboko.

Inyubako nziza cyane y'amashuri zubatswe mu buryo bugezweho, zubakishije amabati y'ubururu ndetse n'amatafari. Ahiye hakaba hari n'imboga abanyeshuri bakiniramo igihe cy'akaruhuko.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye, bakaba bicaye bari gukora ikizami. Hakaba hari umuyobozi wabo uri kugenda abahereza ibizami, anabacunga kugira ngo hatagira ukopera.

Inyubako nziza cyane z'amashuri zubatswe mu buryo bugezweho, aho zifite amabati y'umweru ndetse zikaba ziteye n'amarange y'umweru ku bikuta zikaba ari inyubako zifite ubusitani bwiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho harimo ibikoresho bijya bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho biba bigiye biri mu mabara agiye atandukanye ku buryo babasha kubyigiraho bagatsinda.

Umugabo uhagaze imbere y'abana biga mu mashuri abanza, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ari kubagezaho ijambo ry'uburyo ki bakwiga neza bagatsinda bakazavamo abantu bakomeye kuko aribo Rwanda rw'ejo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, bikunze kuba byifashishwa n'abarimu bigisha abanyeshuri bo mu mashuri agiye atandukanye, aho ibyo bikoresho biba bifite amabara n'ayo agiye atandukanye.

Utuzu turimo amoko agiye atandukanye y'imibare ndetse n'inyuguti abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke bifashisha bari kwigisha abanyeshuri, aho hagiye handitseho nimero zigiye zitandukanye ndetse n'imibare.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye imyambaro igiye itandukanye aho bari mu gikorwa cy'isuku, bari kugenda batoragura impapuro bazishyira mu dutebo twabugenewe bakajya kuzijugunya mu kimoteri kiba kimanitse hafi aho.

Iyi nyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho aho mo imbere harimo ibitabo bigiye bitandukanye byigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, hakaba harimo igitabo k'Ikinyarwanda cyo mu mwaka wa gatatu.

Agasanduku kari mu mabara y'umutuku n'umweru, kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, iyo ari ugukurikira amasomo yabo y'imibare.

Inkuru zisomerwa abanyeshuri, zikaba zigishwa abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza aho haba hari inkoko iri gusomera udushwi twayo igitabo.

Abantu bagiye batandukanye, bakaba bateraniye hamwe, aho bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo repubulika y'u Rwanda, Intara y'Iburasirazuba, Akarere ka Nyagatare.

Abana b'abanyeshuri bari kugenda kuri kandagira ukarabe bagenda boga kugira ngo birinde indwara zijye zitandukanye ziterwa n'isuku nkeya, harimo no kwirinda Coronavirus.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho isakaje amabati y'umutuku, ikaba yubatswe mu buryo bw'amagorofa ndetse yubakishije amatafari ahiye.

Abanyeshuri benshi biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru ndetse na kake hasi. Bahagaze bari kwifotoza bigaragaza ko bishimiye insanganyamatsiko runaka barimo kwigaho.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho ari ikigo cy'amashuri cya Karangazi, kikaba ari ikigo giherereye mu murenge munini mu Rwanda uherereye mu karere ka Nyagatare.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ari inyubako y'ikigo cy'amashuri, aho bakirira abanyeshuri bagiye batandukanye baje kwiga bakabigisha amasomo yabo neza cyane kugira ngo batsinde.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, aho hari umugore ujyanye umwana we ku ishuri,'uwo mwana akaba ahetse igikapu. Nyina akaba ari kumwongorera ati "mwana wanjye uzirinde abasore baba bashaka kugutesha umutwe".

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ari inyubako y'ishuri. Mo imbere harimo abanyeshuri bagiye batandukanye baje kwiga, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye aho bahagaze imbere y'amashuri bari kwifotoza, bambaye imyambaro yo mu mabara ya kake n'umweru ndetse na karuvati bakaba barimo kwifotoza bishimye.

Abakobwa bagera muri bane, bambaye amashati y'imyeru na karuvati ndetse n'abandi bambaye amashati y'ubururu na karuvati, bigaragara ko biga mu mashuri yisumbuye ariko kugo bitandukanye.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bicaye ahantu hamwe bari mu inama, aho umuyobozi wabo ahagaze imbere ariko bakoresha iyo nama.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako z'amashuri, aho izo nyubako zifite ubusitani bwiza, buteyemo ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho mo imbere harimo abantu biga ibijyanye n'amashanyarazi bambaye n'utujiri bari kugenda bashyiramo ibyuma by'ikoranabuhanga muri iyo nyubako y'ishuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bicaye mu ishuri bamwe bambaye udupfukamunwa bari kwandika, bikaba bigaragara ko ari mu gihe k'icyorezo cya covid cumi n'ikenda, aho bari mu ishuri bakurikiye mwarimu.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho imbere yayo hahagaze abantu benshi cyane baje muri icyo gikorwa, ikaba ari inyubako y'amashuri yisumbuye, aba bakaba ari ababyeyi n'abanyeshuri bari bari mu nama.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari inyubako iherereye mu karere ka nyagatare . Ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri kigisha imyuga n'ubumenyi ngiro cya cyondo.

Inyubako nziza yubakitswe mu buryo bugezweho, aho nk'imbere hari amagambo yanditse ku bipapuro byegetse ku gikuta, bigaragaza ko ari inyubako zifashishwa n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda.

Abanyeshuri basoje amashuri ya kaminuza, bakaba bari mu gikorwa cyo kurahira, aho bambaye amakanzu n'ingofero nziza, bakaba bazamuye ibiganza, berekana ko impamyabushobozi bahawe batazadupfusha ubusa.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere. Aho yubakishije amarangi y'umweru ku bikuta. Ikaba ifite inzugi z'ibyuma ndetse ikaba ifite n'akarango kerekana ko ari muri kaminuza y'u Rwanda.

Agatebe k'umutuku bicaraho kakaba karambitse ahantu mu nzu, aho ako gatebe ari ingenzi cyane ku buryo abanyeshuri bose bakicara aho bari kwiga bakabasha gukurikira neza amasomo mwarimu aba abigisha.

Imbuga irimo ahantu hapatse imodoka, aho harimo ikinyabiziga k'ibipine binini kizwi nk'ikinyabiziga gikora mu muhanda, aho hari n'akandi kamodoka k'umuyobozi kahaparitse.

Amagambo yanditse ku cyapa acuritse, aho aya magambo aba yaranditswe n'abanyeshuri biga muri kaminuza kuko baba bafite ubuhanga buhanitse cyane, ku buryo bakora ibintu by'amayobera.

Abanyeshuri barangije amashuri makuru ndetse na za kaminuza, bakaba bari mu gikorwa cyo kwambara, aho bafite ingofero zabo bazimanitse hejuru, bishimye bagaragaza ko icyo gikorwa cyabavunye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako isakaje amabati atukura, ikaba iteye irange ry'umweru ku rukuta, ifite ubusitani bwiza cyane, buteyemo igiti kirekire gitanga umuyaga.

Abantu basoje amashuri ya kaminuza bakaba bari kwishima cyane, aho bambaye amakanzu bakaba bakunga ingofero hejuru, bishimira ko basoje amashuri yabo amahoro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite inzugi zisa kaki ndetse hakaba hariho na nimero z'uwo muryango, bigaragaza ko ari inyubako yo muri kaminuza.

Abantu benshi cyane bari kugenda mu kayira kashashemo amapave, imbere yako hari akazizu gatoya kabamo umuntu washinzwe umutekano, hakaba ari muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya Nyagatare.

Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, aho mo imbere harimo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, akaba yagiye gusura abanyeshuri biga muri kaminuza ngo arebe imyigire yabo niba hari ireme ifite, ndetse n'aho bigira uko haba hameze.